Ndahabona igazeti ya leta nimero enye yo kuwa munani bibiri na makumyabiri na gatatu, iyo gazete ikaba yandikishijwe amagambo y'umukara, ikaba yanditse mu ndimi eshatu arizo; ikinyarwanda, icyongereza ndetse n'igifaransa.

Iduka ricuruza imyenda ryiza cyane riherereye mu mujyi wa kigali mu karere ka kicukiro; ryubatse neza na parafo z'umweru hejuru, hasi yubatse n'amakaro harimo abagabo babiri baje kugura imyenda n'umudamu umwe wicaye.

Isoko ririr mu karerere ka Cyicukiro, umurenge wa Gahanda rikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu butandukanye, ririmo umudamu wambaye ijire n'umupira w'umukara mo imbere n'umweru, urimo uratanga shikarete ku mukiriya.

Inzu ifite parafo z'umweru ndetse n'amarangi ku bikuta y'umweru, hasi hari sima kandi iyo nzu irimo utubati twubakishije imbaho.

Ahani ni mu muhanda wa kaburimbo harimo imirongo y'umweru icagaguye imenyesha ko umuntu yemerewe kuha kuwurenga hakaba harimo n'imodoka ebyiri z'umweru imwe ni ivatiri indi ni taxi moto.

Inzu iri mu mujyi wa Kigali ikorerwamo ubucuruzi bw'ibikapu bitandukanye by'amabara menshi, ibikapu by'umukara, ibikapu by'umutuku, inzu yubatse neza irimo parafo, isize amarangi y'umweru, ndetse n'amatara asa neza cyane.

Iduka riherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro ricuruza imyenda y'ubwoko butandukanye; amajezi y'umutuku ya maniyu, ingofero z'ubwoko butandukanye ziri ahantu mu gatajeri.

Imodoka nziza y'umukara ifite amatara y'umweru iri muri Kigali igurishwa amafaranga miliyoni cumi na zirindwi ihereye mu mujyi wa Kigali, hafi yazo hari imodoka nyinshi nazo zigurishwa kimwe na yo.

Imodoka y'umweru iparitse mu gipangu cy'amabave, imbere yayo hahagaze abagabo babiri, umugabo umwe yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru, uri hirya ye yambaye umupira w'umukara, ipantaro ndetse n'inkweto.

Ibicupa by'ibyuma binini bifite ibara ry'umukara n'umweru byagenewe gushyirwamo amata bimwe muri byo birimo amata yuzuye, imbere yabyo hari abagabo babiri barimo barabishyiramo amata uwicaye ndetse n'undi uhagaze.

Abana babiri bicaye ku ntebe z'imyeru hagati yabo hari ameza na yo asa umweru, utubido tw'amata tuharambitse abana babiri, buri wese afite igikombe cy'amata mu kiganza ke, n'umugati, hari umugabo ubahagaze imbere wambaye umupira w'umweru.

Icyuma gisa neza kibikwamo amata, amata yagenewe gucuruzwa, gifite ibara ry'ubururu n'umweru. Imbere yacyo hari indobo, indobo isa neza irimo ama keke aribwa, ushobora kwifashishwa mu kunywa ayo mata.

Inzu yubatse mumugi wa Kigali mukarere ka kicukiro umurenge wa kanombe.N inzu zubatse neza inyinshi zifite amabati atukura zikaba zisize n'amarangi y'umweru hirya yaho hagiye hari ibiti bigiye birimo ndetse zigiye zifite n'ibipangu zimwe muri zo.

Urupapuro rw'umweru, rwandikishijeho amagambo y'ibara ry'umukara, rukoreshwa mu ma banki berekana ihererekanya no kwakira amafaranga kwakozwe muri iyo banki, cyangwa n'ahandi hose hakorerwaho ibikorwa bisaba amafaranga.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho amagambo y'umukara n'amagambo atukura rukoreshwa muri banki ya Kigali mu Rwanda rwerekana ihererekanya ry'amafaranga ryakozwe.

Inzu iherereye mu gihugu cy'Ubuhinde, ifite urugi rw'umweru ruriho ibirahure, isize irange ryiza cyane, iriho ibyapa bigaragaza inzu yagenewe kuvunja no kuvunjisha amafaranga.

Inzu nziza cyane iherereye mu mujyi wa kigali mu karere ka Nyarugenge ikorerwamo ibikorwa bitandukanye yaba inama abantu bashaka kuruhuka abantu bashaka kuharara mu gihe cy'iminsi mikeya ndetse n'ibindi bikorwa .

Inzu nziza yubatse mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, ifite ibirahuri byiza cyane, intebe zikomeye kandi nziza cyane zisa neza, irimo amarangi y'ubwoko butandukanye meza amatara kandi nayo meza.

Ahantu heza mu mujyi wa Kigali hahariwe kuruhukira, hari intebe nziza z'umukara n'amazi meza yo kogamo, indabyo, pasiparume, amabati y'umutuku. Urugo rwubakishije ibyuma by'umukara, urukuta rw'umweru.

Kampani iherereye mu mujyi wa Kigali ikoresha ikoranabuhanga yubatse neza iteye amarangi y'umweru, ifite ibirahuri bisa neza mu mbuga yazo hari pasiparume n'indabyo zindi nziza cyane hepfo hari ibiti birebire.

Inzu iherereye mu mujyi wa kigali ifite amabara atandukanye yubatse neza, yanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umweru, imbere yayo hariho ibirahure bifite amagambo agaragara imbere yabyo, ikorerwamo igikorwa cya leta mu gutanga ubwishingizi.

Umugabo n'umugore umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, agakaruvate k'umukara gato, uri kumwe n'umudamu wambaye ikanzu y'umweru, impeta akabano mu mutwe, banke popilere yahariye gutanga inguzanyo, kubitsa no kubikuza.

Abagabo batatu bicaye umugabo umwe uhagaze n'undi mugore umwe wicaye, bose bambaye udupfukamunwa dufite amabara adahuye, babiri bicaye imbere y'imeza n'umudamu umwe inzu barimo isize irangi ry'umweru.

Inzu nziza yubakishije parafu z'umweru amabara atukura, hasi amakaro, hirya hari ibirahure byubatse neza, hari abagabo babiri bahagaze umwe yambaye ingofero y'umukara umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, undi hirya wambaye ikote n'ipantaro.

Isoko riri mu mugi wa kigari rikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, hano naybugogo ririmo abagore, abagabo, umugore wambaye umupira w'umweru, igitenge, ifafi ye hari indobo, ndetse n'umugabo wambaye ingoferi n'isengeri, n'ipantaro.

Isoko ryagutse rikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye by'ibiribwa, harimo inyanya zirambitse ku meza, intoryi, ibitunguru, karoti, imiteja, amashaza.

Aya matara tubona ku muhanda ni afasha abanyamaguru kumenya igihe gikwiye cyo kwambuka bigatuma n'abatwaye ibinyabiziga bahagarara, bakareka abantu bakabanza bagatambuka nabo bakabona kugenda, ndetse akaba ari uburyo bwo kwirinda akavuyo n'impanuka zo mu muhanda.

Isoko ryahariwe gucuruzwamo ibicuruzwa bitandukanye by'ubwoko bwinshi harimo abantu benshi baje guhaha umudamu uri imbere wambaye ikanzu y'igitenge inyuma ye hari abandi bantu benshi baje guhaha ndetse n'abacuruje .

Umuhanda wa kaburimbo cyangwa se w'umukara uri gukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye, bimwe muri byo ni amagare abiri ahetse abagenzi ikindi nii ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru cyangwa se ikamyo kikoreye inyuma imizigo bashumikishije itente cyangwa se igitambaro cy'ubururu.

Akazu ka emutiyene kicamo umuntu ukorera emutiyene, imbere yayo hanze hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara akazu gafite ibara ry'umuhondo hari amagambo yanditseho n'ibara ry'umukara, hejuru hari icyapa emutiyene kinini kiriho.

Imodoka y'ivatiri nziza cyane ifite ibara ritukura, iri mu gipangu cy'amabuye kikigose hose, ifite anteni hejuru, iriho icyapa cyerekana kugura no kugurisha ibintu ukoresheje ikoranabuhanga.

Inzu nziza iri mu mujyi wa Kigali i Kanombe, ni inzu yubatse neza irimo amakaro hasi, hejuru ifite amaparafo meza cyane amatara yaka cyane, igurishwa amafaranga miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda, ni inzu ubona idahenze igereranyijwe n'ubwiza ifite.

Inzu nziza yubatse mu mujyi wa kigali mu rwanda ifite amapave meza cyane y'umukara n'umutuku hasi; ifite urupangu rwiza cyane ikaba igurishwa amafaranga miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u rwanda.

Inzu nziza iri mu mujyi wa Kigali ikodeshwa Kacyiru. Irimo uburiri, igitanda, imisego, ibirahure, amarido, amarange y'umweru, amakaro, ibiti hanze byiza birebire, n'ibirahure.

Inzu nziza igurishwa iri mu mugi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe ifite ibyumba bitatu, ubwogero bubiri, ikaba igurishwa amafaranga miliyoni mirongo itatu n'eshanu, ni inzu yubatse neza iteye amarange meza y'umweru n'umukara, ifite ibirahure byiza n'amabati, iherereye kandi ahantu heza.

Inzu iri mu mugi wa Kigali I kanombe igurishwa, amafaranga miriyoni ijana na mirongo itanu, ifite ibyumba bitanu, ibyogero bune, ifite metero kare magana ane na mirongo itanu. Ni inzu yubatse ahantu heza Kandi nziza, isize amaragi y'ubwoko bu tandukanye.

Inzu nziza iri mu mugi wa Kigali, akarere ka Kanombe mu Busanza. Ni inzu yahariwe gukodeshwa ifite urupangu rwiza ruriho indabyo, ibiti, hanze yaho hari indabyo na pasiparume. Ni inzu isize amarangi y'umweru n'ibirahure byiza.

Inzu iri mu mujyi wa Kigali Kacyiru ifite ubwogero bumwe n'icyumba kimwe, igurishwa amafaranga ibihumbi magana abiri by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi, akaba ari inzu nziza ifite ibirahuri byiza isize n'amarangi meza.

Isoko riherereye mukarere ka nyarugenge rikora ubucuruzi bwibintu bitandukanye inanasi imbuto zose z'ubwoko bwose Ibikapu, n'isoko ryubatse neza ririmo parafo amatara kandi rikaba Ari isoko rikomeye.

Isoko ryiza cyane, rinini ririmo abantu benshi baje guhaha, abambaye imyenda'ubwoko utandukanye umutuku, umukara, umweru ni inzu ifite parafu, ifite ibara ry'umweru, harimo amatara yaka bacujemo imyenda ndetse n'ibikapu.

Mituweli ni ubwishingizi butangwa mu Rwanda mu buryo bwo gufasha abaturage bose baba abafite ubushobozi bukeya kugira ngo babashe kwivuza nta kibazo gikomeye bibateje cyangwa izindi ngaruka.

Umugabo wicaye ufite mikoro mu kiganza cye, imbere ye hari agacupa k'amazi ka Nile, yambaye umupira w'umweru ukorera ikigo gishinzwe ubuziranenge mu gihugu cy'u Rwanda.

Mituweri zitangwa na leta mubigonderabuzima kugira ngo umuntu ugize ikibazo abashe kwivuza byihuse kandi bitamugoye kubadafite ubushobozi buhagije bwo kuba bakivuza mubigo byikorera bakabasha kuba bakoresha izi mituweri mukwivuza.

Iduka riherereye mu mujyi wa Kigali, mo imbere hasi hari amakaro hejuru hari parafu nziza cyane harimo umugabo wambaye umupira urimo ibara ry'umweru n'umukara ipantaro y'umukara urimo aracuruza mo imbere hari icuruzwa byinshi cyane.